Inyubako ya kijyambere igeneweko abana bayigiramo, ikaba ifite ubusitani burimo ibyatsi bya cyimeza ndetse n'ibiti bihateye ku mpande.

Inyubako yubakishijwe amatafari isakajwe amabati. Imbere yayo hariho ikibuga cy'umupira wa vole hepfo hariho igiti cy'urubuto rwa voka.

Umuntu uhagaze akaba yambaye agapfukamunwa afite igikoresho mu ntoki ze cyifashishwa hafatwa amashusho y'abantu ndetse n'ibintu bikenewe gukoreshwa.

Abakobwa babiri bambaye impuzankano ifite ibara risa n'umukara n'inkweto zifite ibara risa n'umuhondo, iruhande rwabo hahagaze umusore, bari mu nyubako irimo ibikoresho bikoreshwa mu murimo w'amashanyarazi.

Inyubako irimo ibikoresho byagenewe gupima indwara z' abantu, harimo n' abantu bari kubikoresha bambaye impuzankano zifite ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye umwenda ufite ibara risa n'ubururu imbere ye hakaba hari igikoresho bifashisha batunganya ibikoresho byo mu bwubatsi.

Abantu bari mu nyubako irimo ibikoresho byifashishwa hapimwa indwara z'abantu, bakaba bambaye impuzankano ifite ibara risa n'umweru.

Inyubako ifite amashiga ya kijyambere hakaba harimo abakobwa bambaye imyambaro ifite ibara jy'umweru bari kwiga guteka ibiryo byujuje ubuziranenge.

Inyubako irimo ibikoresho bigenewe mu ikoranabuhanga, hakaba harimo abana bicaye ku ntebe buri wese afite imbere ye igikoresho, yigiraho isomo ry'ikoranabuhanga.

Abasore bane bambaye imyambaro ifite amabara atandukanye, bahagaze imbere y'inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, bakaba bafite igikoresho mu ntoki zabo, cyifashishwa bafata amashusho y'abantu n'ibintu.

Abakobwa bambaye imyenda ifite ibara ry'umweru hejuru hasi hari ibara ry'igitaka, bakaba bicaye ku ntebe imbere yabo hari igikoresho cyifashishwa mu kudoda imyenda yambarwa n'abantu.

Abana benshi bambaye impuzankano imwe bari ku kigo cy'amashuri, iruhande rwabo hari ikigega gifata amazi gifite ibara ry'umukara.

Abana bari mu nyubako imwe bambaye impuzankano imwe ifite ibara risa n'umweru hejuru, bakaba bicaye ku ntebe, imbere yabo hariho ibikoresho by'ikoranabuhanga bari kwifashisha biga isomo ry'ikoranabuhanga.

Urubyiruko rw'abasore n'abakobwa bambaye imyambaro ifite ibara risa n'ubururu bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza arambitsweho ibikoresho bifashisha bakora inkweto abantu bambara. Iruhande rwabo hariho umuntu wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara.